Iyi foto iragaragaraho abantu bambaye imyenda zitandukanye gusa bahuriye ku majire y'imituku ya kuruwaruje.

Icupa ry'amazi ya nile riteretse imbere y'abantu babiri babana n'ubumuga, bicaye mu tugare, bambaye udupfukamunwa ndetse ku bibero byabo hateretse envelope kado.

Imodoka ndende iziritsweho shitingi iri mu mabara y'icyatsi. Iyo modoka yifashishwa nk'ivuriro mu buryo bwihuse. Iri mu mabara y'umweru ndetse irimo n'intebe, hicayemo n'abantu.

Iyi foto iragaragaraho abaturage benshi, imbere yabo hari umugabo wambaye agapfukamunwa n'ishati y'umutuku afashe telefone mu ntoki.

Inyubako nini imbere yayo hicawe abaturage, bategereje serivisi iturutse ku baganga kugira ngo babasuzumire uburwayi bwabo.

Umubare w'abantu benshi b'igitsina gabo bahagaze hamwe bafashe impamyabumenyi ziri mu makadire mu ntoki zabo, bambaye impuzankano zitandukanye mu mwe ndetse n'ubururu.

Inzu ivurirwamo abarwayi, ihagazemo abaganga benshi batandukanye, abagore n'abagabo, bambaye impuzankano izwi nk'igisarubeti.

Umubare w'abantu babiri, batandukanye, umugore ndetse n'umugabo, bicaye hagati yabo harimo ameza arambuyeho igitambaro cyera ndetse n'uwambaye itaburiya yera w'igitsina gabo n'umugore witeye isharupe riri mu ibara ry'ubururu.

Abantu abantu bari hamwe kwa muganga barimo kwita ku buzima bw'abarwayi bareba ikibazo bahuye nacyo.

Umubare ugaragaza abantu bari hamwe barenze umwe, mu cyumba cyo kwa muganga hariho abarwayi bicaye ku bitanda bishashe, hakaba hari umugabo utanga amabwiriza.

Aha hari abantu barenze umwe bagera kuri barindwi mu mpuzankano zitandukanye, abakobwa ndetse n'abagabo bambaye ingofero z'umweru.

Raboratwari irimo abanyeshuri bambaye impuzankano y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, batoranya.

Ibiganza bibiri byambaye ga z'ubururu, bifashe ibipimo bisanzwe bikoreshwa kwa muganga hasuzumwa indwara.

Ibiganza by'umuganga wambaye ga iri mu ibara ry'ubururu, uri gufata ibipimo by'indwara muri laboratwari.

Umuhungu uhagaze inyuma y'abana barimo gufata amafunguro mu ishuri. Yambaye ijire riri mu mabara y'icyatsi.

Umubare w'ibiganza byinshi biri mu kirere ku bantu bicaye ndetse n'abaticaye bahuriye hamwe basa nk'abemeranya ku kintu kimwe, bari mu nyubako y'ibitaro.

Inzu isanzwe itanga imiti izwi nka farumasi, ihuriwemo n'umubare w'abaganga benshi bambaye amataburiya y'umweru.

Inzu itangirwamo imiti ya farumasi irimo ababyeyi babiri, bafashe amatelefone mu ntoki umwe yambaye agapfukamunwa hagati ya.

Ihurirane ry'abantu benshi bicaye ku ntebe y'umweru mu mpuzankano zitandukanye, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo ubaha amabwiriza.

Umubare w'abantu babiri bo mu gitsina gore, bahagaze imbere y'icyapa cyanditsweho iminsi cumi n'itandatu y'ubukangurambaga bugamije kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Umuganga wambaye amarineti n'itaburiya yera, afite urushinge mu ntoki, afashe ku kiganza cy'umuntu agiye gutera urushinge.

Umugore ufashe mikoro mu ntoki n'agacupa gafite umufuniko w'umuhondo karimo ibintu biri mu ibara ritukura bigaragara ko asobanura icyo afashe.

Umuganga wambaye agapfukamunwa, imbere ye hakusanyirije imiti iri mu macupa y'ibara ry'umukara ndetse n'imifuniko y'umweru.

Ibikoresho byinshi birambitse hamwe ku meza, birimo ubwoko bw'imiti itandukanye ya kinyarwanda yifashishwa ivura abarwayi.

Iri ni ishusho rigaragaramo imiti itandukanye, ni imiti ya gakondo iri mu macupa afite amabara adasa, hari apfundikijwe imifuniko y'umuhondo n'amacupa afite ibara ry'icyatsi.

Umugabo ugaragara ko afashe ibyatsi biri mu bwoko butandukanye byifashishwa mu buvuzi gakondo hagamijwe kurwanya indwara.

Umubare w'abantu barenze umwe, ugizwe n'abadamu ndetse n'abapapa, harimo n'umuganga inyuma yabo wambaye amarinete, impuzankano y'umweru.

Ihuriro ry'umubare w'abantu benshi higanjemo abamama bafite abana bakiri bato b'impinja, hagaragara n'abaganga babaha imiti ibunganira mu buzima bwabo.